Abagabo bakurikiye ikiganiro, bakaba bicaye imbere y'ameza afite ibara ry'itaka, imbere yayo hakaba hari uducupa turimo amazi ndetse na za telefone, umwe muribo akaba yabambaye umwenda wiyubashye harimo karavate ndetse n'ishati y'umukara.

Abagabo bakurikiye ibiiganiro bya rura bakaba bose bicaye ku ntebe z'umukara, umugabo wambaye imyenda yiyubashye, imbere yabo hari ameza, ameza akaba ariho za murandasi zigiye zitandukanye ndetse n'amazi.

Umugabo ufite mikoro akaba arimo kugezaho ubutumwa abaturage bagiye batandukanye, muri abo baturage hakaba harimo n'ababigize umwuga w'abasirikare ndetse hakaba hirya hari ibafuri yabugenewe hirya yaho hakaba hari inzu yubatse mu matafari yumye.

Abagabo ndetse n'abategarugori, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, bamwe muri bo harimo abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'imikara, ndetse n'ingofero z'akazi, undi wicaye iruhande rwabo yambaye ishati y'umweru, ndetse acigatiye terefone mu ntoki.

Abantu benshi ubona bakurikiye ibiganiro bimwe, bose bafite intego imwe. Benshi muri bo bafite mudasobwa imbere zabo, hirya yaho hari umugozi wagenewe kuzimya inkongi y'umuriro bose bakaba bicaye ku ntebe, ziri mu ibara ry'umweru

Abategarugori ndetse n'abagabo bambaye imyenda yiyubashye irimo amashati y'umweru amakaruvati, ndetse bambaye amashati y'ubururu n'amakoti y'umukara, bose bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bakikijwe n'imeza iriho amamikoro ndetse bakaba bose bari kuganira ku ngingo imwe.

Abantu bari mu nama, harimo abantu bicaye ku ntebe z’umweru ndetse zifite n'ibitambaro by'umweru, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa, imbere hakaba hicay’umugore wambaye amarinete ndetse n'abagabo batatu.

Abantu bari mu nama hakaba hari urukuta rusa umweruru ndetse bakaba bafite ibyuma bisakaza amajwi n'ibinyobwa birimo amazi n'imitobe kandi bagizwe n'abagabo hamwe n'abagore b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye bakaba bicaye ku meza asa umuhondo wijimye.

Abagabo ndetse n'abategarugori, bose bakaba bicaye ku ntebe z'umweru ndetse bikozwe no mu kibaho, bakaba bakurikiye ibiganiro, bose bicaye ahantu hamwe ndetse umwe muri bo akaba yambaye ijire y'umutuku n'ishati y'umweru, ndetse imbere hakaba hateretse n'amazi.

Abantu imbaga nyamwinshi yiganjemo abategarugori ndetse n'abagabo. Muri abo bagabo umwe yambaye amadarubindi, ishati y'ubururu ndetse irimo ubwoko bw'igitenge, akaba yicaye imbere y'ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'uducupa n'amatelefone ku meza.

Umugore uhagaze afite icyuma gisakaza amajwi uhagaze imbere y'icyapa gisa ubururu bwijimye n'umweru, kiri ku gikuta cy'umweru ndetse imbere ye hari imeza iriho igitambaro gisa umweru bateretseho mudasobwa.

Imbaga nyamwinshi y'abantu ikaba ikurikiye ibiganiro baka bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye imyenda yiyubashye harimo ikoti ndetse n'ishati y'umweru bakaba bicaye bose ku ntebe zisa umukara mbere hakaba hari umutegarugori rufite imisatsi y'imikara miremire.

Umugabo wambaye imyenda yiyubashye akaba yambaye ikoti rifite ibara ry'ivu ndetse n'ishati y'umweru, akaba yambaye amadarubindi afite ubwanwa, ukaba ubona akurikiye ibintu ndetse imbere ye hakaba hari mudasobwa iri ku meza, akaba yicaye ku ntebe y'umukara ndetse n'abandi bose bimeza uko.

Abahungu bafite ubwanwa ndetse n'imisatsi, bakaba bambaye umupira w'ubururu uriho idarapo ry'u Rwanda, bakaba bicaye ku ntebe z'umuhondo ndetse n'umweru, umwe muri bo akaba yicaye areba hasi ameze nkaho arimo kwandika.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'umweru ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba arimo agezaho abantu bamukurikiye ubutumwa, harimo inzego zigiye zitandukanye inzego z'irondo kuvuga z'umutekano ndetse n'abaturage muri rusange.

Imbaga nyamwinshi y'abategarugori ndetse n'abagabo, bakaba bicaye bari gukurikirana ibiganiro. Abagabo benshi muri bo bakaba bambaye imyenda yiyubashye ndetse n'amashati, hakaba harimo uwambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, undi akaba yicaye ashyize amaboko ye ku meza.

Umugabo wambaye imyenda yiyubashye, akaba yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'imisatsi irimo imvi, akaba yicaye imbere y'ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye, uducupa tw'amazi ndetse na mikoro, akaba afashe ikaramu mu ntoki ze.

Abantu bari mu nama bakaba bicaye ku meza ifite igitambaro gisa ubururu bwijimye, bakaba bafite amazi imbere yabo, ndetse n'ibikoresho by'impapuro byo kwandikaho hakaba harimo umukecuru umwe, abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye mu cyumba kimwe bafite intego imwe, akaba ari abicaye ndetse n'abarimo kubagezaho ibiganiro, ubwo barimo kubagezaho ibiganiro bakaba bicaye ku meza iriho igitambaro cy'umweru ndetse arimo n'ibara ry'umukara nyuma yaho hakaba hari ishusho ririho idarapo ry'u Rwanda ndetse handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Abantu bari mu nama bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ndetse n'icyuma cyerekana amashusho. Hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ufite agacupa k'amazi imbere ye ndetse n'umugore wambaye ikanzu isa oranje, hakaba hari n'umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Abategarugori ndetse n'abagabo bose bahuriye ahantu hamwe, barimo gukurikirana ibiganiro bimwe ndetse umwe muri abo bategarugori akaba afite imisatsi myinshi, yambaye ishati y'umweru ndetse n'icyatsi. Hirya yabo hakaba hari ikamera irimo kubafotora ndetse n'ameza y'umweru, bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku.

Umugabo wicaye imbere y'abantu akaba yicaye arimo gutanga ubutumwa, akaba yambaye imyenda yiyubashye harimo ishati y'umweru, ikaruvati y'umutuku, ndetse n'ikoti, n'ipantaro byose by'umukara, akaba yicaye ku ntebe y'umweru, inyuma ye hakaba hari ibara ry'ubururu ndetse hari n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Umugore wicaye wambaye imyenda yiyubashye iri mu ibara ry'umukara imbere hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'amazi hirya yayo hakaba hari umugabo wambaye nawe imyenda yiyubashye arimo ishati y'ubururu ndetse n'indi y'umukara akaba yicaye ku ntebe y'umukara imbere hakaba hari mudasobwa n'amazi na mudasobwa.

Abantu barenga batanu, hakaba yiganjemo abategarugori. Bakaba bose bicaye ku meza afite ibara ry'umweru n'ubururu. Hakaba imbere yabo hakaba hari urimo kubagezaho ibiganiro, wambaye ishati y'umweru n'pantaro yumukara. Bose bakaba bari ahantu hakikijwe n'ibara ry'ubururu, numuhondo n'icyatsi.

Abagabo babiri ndetse n'umutegarugori umwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara umwe arimo kugezaho ubutumwa abandi bamukurikiye akaba yambaye imyenda yiyubashye irimo ishati ndetse n'ikoti, ikaba imbere yaho hari ameza afite ibara ry'umutuku.

Abategarugori n'abagabo bose bicaye ku meza izengurutse hakaba hariho amazi, mudasobwa ndetse n'impapuro. Imbere yaho hakaba hari televiziyo yabugenewe iri kubagezaho amabwiriza akurikiza.

Imbaga nyamwinshi ikurikiye ibiganiro, hakaba higanjemo abagore n'abagabo, ndetse bose bakaba bicaye ku ntebe z'ibyumaba, bakikijwe n'ameza abazengurutse, hakaba hariho amazi, ibitabo, impapuro, ndetse na mudasobwa.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo abategarugori ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hicaye uwabigize umwuga w'umupolisi w'umutegarugori akaba yambaye amadarubindi ndetse n'ingofero y'akazi, hirya yabo hakaba hicaye abagabo ndetse n'abategarugori bambaye imipira y'icyatsi, inyuma hakaba hahagaze abandi bambaye imipira y'umuhondo.

Abagabo batanu bicaye ku ntebe z'imikara, bakaba bambaye imyenda yiyubashye, harimo ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere ya bo hakaba hicaye umutegarugori urimo kubagezaho amabwiriza, umwe muri aba bagabo akaba amanitse akaboko arimo kubaza ikibazo.

Abantu bari mu nama ndetse bafite na mudasobwa,, bafite n'amazi imbere yabo bakaba bicaye mu ntebe z'umukara ndetse n'abafite n'ameza asa umutuku wijimye.

Abategarugori ndetse n'abaganga b'abategarugori bateze ibitambaro birimo ibara ry'ubururu ndetse banitwikiriye agatambaro karimo amabara agiye atandukanye bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku, ameza imbere afite ibara ry'umukara ndetse kuri ayo meza hakaba hateretseho ibicupa birimo amazi ndetse n'ibipapuro by'amabara agiye atandukanye yiganjemo umweru ndetse n'ubururu.

Abategarugori babiri akaba ari abategarugori bafite imisatsi bamwe isutse ubundi ukaba afite umusatsi udashutse, bose bakaba bambaye amadarubindi bambaye imyenda yiyubashye umwe yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikoti ry'umukara yicaye imbere y'ameza afite ibara ry'umukara ateretseho ameza, amazi akozwe mu gicupa twi twi'ibirahuri.

Abategarugori batatu ndetse n'umusore umwe bose bakaba bambaye imipira y'umweru, ndetse umwe muri bo yiteza agatambaro mu mutwe we, abandi babiri bakaba bafite imisatsi myinshi ifunze, ndetse imbere y'aho hari ameza hateretse amazi yo kunywa ari mu ducupa.

Abategarugori ndetse n'abagabo bose bicaye ku ntebe z'umweru mbere hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa ndetse n'amazi bakaba bakurikiye ibiganiro runaka bakurikiye urimo kubagezaho ibiganiro hakaba hari undi uhagaze ufite kamera y'amafotora ndetse akaba yambaye ishati y' iroza ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Abagabo ndetse n'abategarugori bose bicaye bakikiye ibitabo ndetse n'impapuro mu ntoki zabo. Umugabo muri bo akaba yambaye imyenda yiyubashye, harimo ishati y'ubururu ndeste n'amakoti y'umukara. Bakaba bose bakurikiye ibiganiro bimwe.

Abagabo ndetse n'abategarugori, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti ndetse zifitemo umusego w'umweru, hakaba umwe muri abo bagabo yambaye imyenda yiyubashye, ishati y'umweru, karuvati ndetse n'ikoti n'ipantaro byose bifite ibara rimwe. Inyuma yabo hakaba hari umuntu ufite kamera arimo kubafotora, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umutegarugori wambaye amadarubindi afite imisatsi miremire akaba ari inzobe yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikoti ririmo amabara agiye atandukanye, yicaye ku ntebe y'umweru, inyuma hari urukuta rw'umweru ndetse n'urugi rukozwe mu rubaho, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho ivide ndetse n'igikombe gikozwe mu kirahure arimo amazi.

Abategarugori ndetse n'abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye, irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara n'umutuku bakaba bafashe ihene ziziritse imigozi, ndetse bakaba barimo ahantu hari ibyatsi bifite iba ry'icyatsi ndetse nyuma hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse nyuma hakaba hari n'ibitoki.

Imbaga nyamwinshi yitabiriye ibiganiro runaka, ikaba yicaye yambaye amajire ya polisi harimo icyatsi ndetse n'umukara, hakaba hari uwicaye yambaye ingofero, amadarubindi ndetse hari ukikiye fone mu biganza bye.

Abantu bari mu nama bari kungurana ibitekerezo harimo ufite icyuma cy'amajwi akaba arimo kuvuga yambaye ikote risa umukara ndetse n'umuhagaze n'umuri imbere akaba yambaye ishati y'umweru hari n'undi wambaye umupira w'umuhondo hakaba hari n'umukobwa.

Umunara ugeretse, ukaba ari umunara ufite ibara ry'icyatsi, rikaba ryubatse mu buryo bw'inzu, ndetse ukaba ufite uturindabasazi dukozwe mu cyuma, imbere yayo hakaba hari uruzitiro rw'amatafari ahiye, ndetse n'igipangu gikoze mu cyuma.

Ipironi ryifashishwa rigeza murandasi, ndetse n'amashanyarazi ku baturage, bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye, hakaba hasi hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo, ndetse hasakajwe amabati y'ubururu, imbere hakaba hahagaze umuntu, hakaba hari n'ikizitiro gikozwe mu byuma.

Abantu bicaye hamwe bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara bose bakaba bari imbere ya mudasobwa ndetse hari uhagaze arimo abererekera ibyo bakora akaba yiganjemo abategarugori ndetse n'abagabo bose hakaba harimo abategarugori bafite imisatsi myinshi ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umuhondo.

Inzu itatse amatara ndetse n'imigozi ifashe y'amatara ikaba ari inzu ifite hejuru hafite ibara ry'umweru, hasi hakaba hari amezi afite ibara ry'umweru ndetse n'intebe z'umukara, mbese mo imbere hakaba harimo akandi kazu gafite ibikuba zijejwe ibirahuri ndetse n'ibyuma by'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rukaba rwanditseho amagambo RDB byandikishijwe mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi magambo munsi yanditse mu ibara ry'umukara, hakaba 'ikiranganrenngo cy'u Rwanda ndetse n'iterambere ry'u Rwanda riri mubara ry'icyatsi, umuhodo ndetse n'ubururu.

Itangazo ritangajwe na repubulika y'u Rwanda rikaba ari itangazo ryerekana ko bahawe umunsi mukuru wizihiza umwaka mushya ndetse hakaba icyo gihe nta muntu n'umwe wemerewe kujya ku kazi ndetse by'umwihariko akaba ari abantu bakorera mu kazi ka leta.

Ipironi rifite ibara ry'umutuku n'umweru riba rifiteho ama antene yifashishwa agezaho abaturage ubutumwa ndetse bidacikagurika, hejuru yawo hakaba ari ikirere gifite ibara ry'ubururu, ndetse n'ibicu by'umweru hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abanyeshuri bakurikiye ubagezaho ubutumwa, bakaba bicaye ku ntebe, ameza imbere yabo ndetse na mudasobwa kuri izo meza, ndetse muri bo hakaba hari uryamye kuri iyo meza, ubagezeho akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ubururu.

Ndetse n'Irembo ushobora kwaka serivisi zigiye zitandukanye zo ku rwego rugiye rutandukanye, haba mu nzego za leta ndetse n'izindi. Aha ngaha hakaba hari umugabo ufite amaboko yambaye ishati ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'ubururu. Akaba afite mudasobwa imbere ye arimo kwaka serivisi ku Irembo.

Abantu bahagaze imbere y'umunara ufite ibyuma by'umutuku ndetse n'umweruba ufite uruzitiro rufite ibyuma byu'umweru abo bantu bambaye amajile asa icyatsi cyererutse.

Imbuga yubakishijwe amatafari yabugenewe asaswa hasi, akaba ari amatafari afite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku imbere yayo hakaba hari amazu afite imiryango y'icyatsi akozwe mu cyuma ndetse n'urukuta rw'umweru.

Ubu ni uburyo rebu yifashisha imenyekanisha amakuru yayo haba ari ukuri amanota ndetse no kuyasa, byose bikaba byifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ukaba byose wabikorera aho uri bitarenze ko uva aho uri.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara ukaba uhagazemo ipikipiki ndetse n'umumotari uyicayeho ikaba ifite ibara ry'umutuku hirya yaho hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru n'amagambo yandikishijwemo afite ibara ry'umweru ndetse hirya hakaba hari umunyamaguru urimo kugenda.

Inzu igeretse ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse ifite idirishya rifite irangi ry’icyatsi cyijimye, ifite amapironi hejuru yifashishwa muri murandasi, ikanagira ikoranabuhanga rishyushya amazi. Inzu iherereye mu misozi ndetse ikagira n'ubusitani.

Nkuko mubibona amakaro y'aho aracyeye, inzugi nziza ziriho ibirango ndetse zisa amabara y'ubururu, hariya mu imbere hari ikintu gikonjesha harimo ibikombe, ijage y'icyatsi, amajerekani meza azanwamo amazi yo kunywa acyeye Kandi anogeye buri muntu wese iyo aya nyoye aba yumva ameze neza ,akira umutwe cyane iyo awurwaye cyangwa akoze impyiko.

RBC irongera kwibutsa abaturarwanda ndetse n'abayigana bose ko icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyongeye gukana, ikaba irimo gushishikariza abantu bose ko bakoresha uburyo bugezweho uwaba agize ikibazo yahamagara.

Umugabo ndetse n'umutegarugori bakaba bambaye ijire ry'icyatsi ndetse n'ingofero zabugenewe zirinda amagara yabo, imwe ikaba ifite ibara ry'icyatsi iyindi y'umweru, bakaba bahagaze imbere y'ipiloni igeza amashanyarazi ndetse na murandasi ku bantu bagiye batandukanye, ikaba ifite uruzitiro rukozwe mu cyuma.

Rura iributsa abantu gushishoza mbere yo guhamagara, babwirwa yuko bohererejwe amafaranga kubera ko muri ino minsi harimo abantu barimo kurenganya abandi biba amafaranga mu buryo budakwiye. Imbere yanjye ndabona ishusho y'ubururu, hakaba hariho igishushanyo cya terefone iri mu ibara ry'icyatsi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwa arabisi ikigo gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda hakaba hari urubuga washyiramo nimero zawe ndetse n'ibindi bintu bikuranga imyirondoro yawe kugira ngo uhabwe serivisi zigiye zitandukanye ku rubuga rwabo.

Ipiloni ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ikaba iriho amatene ndetse n'andi mapiloni byose bikaba byifashishwa bigezeho bifasha abaturage kuba bagezanyeho ubutumwa bigiye butandukanye byoroshye bidacikagurika.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru bikaba biri ku rupapuro rw'ubururu bikaba bisobanura ko hasigaye umunsi umwe kandi ikaba ari serivisi itangwa n'ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro.

Uburyo bukoreshwa n'abatura Rwanda bose ndetse n'abagana irembo. Rikaba ryibutsa abarigana ko ryavuguruye ubufasha rikunda gutanga, ndetse bikaba byose binyura mu buryo bwa murandasi.

Umutegarugori ufite imisatsi myinshi akaba yicaye ku ntebe y'umukara ndetse nyuma hakaba hari iterapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda ndetse inyuma hakaba hari ikibambasi gifite ibara ry'umweru akaba yambaye ishati y'umuhondo.

Igishushanyo cy'ikarita y'u Rwanda, kikaba ari igishushanyo kirimo idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hagati nabwo hakaba harimo igishushanyo cy'izuba gifite ibara ry'umuhondo, inyuma yayo hakaba hariho urupapuro rw’ubururu ndetse hari n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Ikiganza cy'umugabo w'inzobe wambaye ishati y'umweru, urimo akandagura imibare kuri mubazi, arimo akandagura abara imisoro yagiye yinjira, byose bikaba byerekanwa na ara ara eyi, ndetse ikigo akaba ari ikigo cy'imisoro n'amahoro.

Umwe mu bakozi ba banki KCB, ndetse akaba yicaye ku ntebe y'umweru, yambaye ikoti ry'umuhondo ririmo udusaraba ndetse inyuma ye hakaba handitseho MTN mu magambo y'umukara ndetse inyuma hariho n'andi ya Airtel mu magambo y'umweru. Inyuma ye hari ibara ry'umweru umutuku ndetse n'umuhondo.

Urubuga rw'irembo rukaba ari urubuga rwakirirwaho ndetse runatanga serivisi zigize zitandukanye ku baturage, hakaba hariho urupapuro rufite ibara ry'ubururu n'amagambo yandikishijwe mu magambo mu ibara ry'umweru.

Umuhanda w'igitaka ukaba ari umuhanda uherereye imbere y'ubusitani burimo ibyatsi, ukaba hepfo yaho hari abantu bahagaze barimo guhabwa serivisi za emutiyeni, mbese serivisi za emutiyeni zikaba zirimo guhabwa munsi y'ipiloni y'amashanyarazi igenda igera mu baturage bagiye batandukanye, hepfo yaho hakaba hari amazu y'abaturage.

Urupangu rufite ibara ry'igitaka, iruhande rwayo hakaba hari ipironi, ishamikiyeho insinga z'amashanyarazi, byose hamwe bikaba bihanadamye ku mukingo ugizwe n'amabuye, hirya yaho, hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubusitani bwiza.

Umuhanda w'ibitaka hirya yaho hakaba hari akarigori hejuru yaho hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ipiloni igeza amamashanyarazi ku baturage yaba akaba ari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye maremare ndetse rukaba ari uruzitiro ruzitiye inzu irimo ibara ry'umweru ndetse n'amabati n'umutuku.

Ubusitani buteyemo igiti ndetse burimo n'ibyatsi akaba ari ubusitani buteyemo n'ipironi yifashishwa giterwaho amatara imurika mu gihe cy'ijoro mu muhanda ndetse hirya y'aho akaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru kifashishwa karinda abanyamaguru ndetse n'epfo hakaba hari inzu isakajwe amabati y'umutuku.

Ipironi ryifashishwa rigeza amashanyarazi ku baturage ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye, ikaba iri imbere y'igiti kirekire gifite amashami y'icyatsi, munsi yaho hakaba hahagaze umuntu wambaye ikabutura y'umukara, ahandi hakaba hicaye abandi babiri ku gasima, hasi y'aho hakaba hari imodokari ifite ibara ry'umukara.

Ipironi ryifashishwa rigeza amashanyarazi ku baturage, rikaba ari ipironi rifashe hasi, hasi mu busitani bufite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hirya yaho hakaba hari ibiti nabyo bifite ibara ry'icyatsi.

Ibiti bifite ibara ry'icyatsi ipironi yifashishwa igezaho amashanyarazi agiya atandukanye mu ngo, ndetse no hasi yaho hakaba hari inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse ikaba ifite igipangu kigizwe n'amatafari ahiye.

Akayira kabugenewe k'abanyamaguru kakaba gasize irange ry'umweru ndetse n'umukara, hirya yaho hakaba hari ibimera bigiye bitandukanye birimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ipironi rifata amashanyarazi rijyana mu baturage.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Ipironi ryifashishwa rigeza amashanyarazi ku baturage, hasi hakaba hariho amazu yubatse mbese ubona ashaje hejuru yaho hakaba atwikiriye n'amabati ye ashaje hirya yaho hakaba hari igiti cy'icyatsi.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru, ikaba ari inzu ifite uturindabasazi dukozwe mu cyuma dufite ibara ry'umukara, ndetse imbere yaho hakaba hari ibiti biri mu bwoko bugiye butandukanye bw'icyatsi, imbere yaho gato hakaba hari ipironi itwara amashanyarazi mu ingo zigiye zitandukanye.

Ipironi ryitaruye ahantu abantu batuye, rikaba ari ipironi rikoreshwa rigeza amashanyarazi ku bantu, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, hirya yabo hakaba hari umusozi wuzuye ibiti ibyatsi ndetse n'amazu.

Ipiloni ritwara amashanyarazi, mu ngo zigiye zitandukanye ndetse hasi hakaba hari amazu afite ibara ry'umuhondo ndetse n'andi agiye afite ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'ikirere.

Ipiloni rishamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage, hasi yaho hakaba hari amazu ndetse n'imodokari muri ayo mazu hakaba harimo ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru imodoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Ipirone rinyuza amashanyarazi ku baturage, rikaba riri imbere y'uruzitiro rwubatse rufite ibara ry'umweru, rukaba ruzitiye igipangu gifite amabati y'umukara ndetse ibikuta bifite irangi ry'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ibiti biteyeho bifite ibara ry'icyatsi.

Ipironi ishamikiyeho itara rimurika mu gihe cya nijoro, hakaba haziritseho insinga zifashishwa, zigezaho amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, hasi ya ukaba ashushanyijeho icyapa cyamamaza ndetse icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, kabaruguru yaho gatoya hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo ikaba hari n'irindi ry'ubururu.

Amapironi abiri ashamikiyeho insinga z'amashanyarazi zikaba zifashishwa zigeza amashanyarazi ku baturage hirya no hino, hasi yaho hakaba hari inzu ifite ibikuta by'umuhondo n'amadirishya ndetse n'amabati afite ibara ry'umutuku, hirya yaho hakaba hariho umusozi wuzuye amazu.

Abakobwa batatu bicaye imbere y'ameza bambaye imyenda y'imihondo, inyuma y'aho kugikuta hamanitse tereviziyo irimo ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho Kandi hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Imbere yayo meza har'undi mukobwa muremure wambaye ipantaro ya kacyi ndetse n'ishati idafite amaboko, imisatsi miremire myiza y'umukara.

Ahagenewe kugenda abantu bagenda mu nzu zigiye zitandukanye, hakaba hasakajwe n'amabati bityo bikabarinda kuba banyagirwa cyangwa bakicwa n'izuba. Hirya y'abo hakaba hari ubusitani butoya burimo ibyatsi birimo by'ibara biri mu ibara ry'icyatsi n'ibyapa byerekana aho bagana ndetse n'aho bafashirizwa serivisi zigeiye zitandukanye bikaba biri mu cyapa cy'ubururu.

Imbuga yabugenewe iparikwamo imodokari ikaba iparitsemo ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, ishashmo amatafari yabugenewe hasaswa hasi hakaba hari uruzitiro hepfo rwubakishijwe amatafari ahiye.

Abategarugori ndetse n'abagabo bamwe bakaba bicaye mu kagare kabugenewe gatwara abafite ubumuga ndetse n'intebe yicarwaho abategereje bikaba bigaragara ko ari kwa muganga umutegarugori ariko yicaye ku ntebe yambaye imyenda irimo icyatsi ndetse n'umuhondo undi akaba yambaye umupira w'umutuku n'umukara akaba yambayei ipantaro y'ubururu n'inkweto z'icyatsi.

Inyubako igeretse kabiri y'ibitaro byitiriwe umwami Fayisali hano i Kigali, bikaba bifite inkuta zisa umuhondo wijimye ndetse bikaba bifite ubusitani imbere yaho, aho imodoka zinyura mu mihanda y'umukara.

Imodokari iparitse mu busitani bwubakishijwe n'amabuye akaba ari imodokari yagenewe kujyana abadwa abarwayi barwaye cyane kwa muganga ikaba iparitse imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isakajwe n'amabati asa umutuku.

Abantu barinda bakaba bahagaze barinze ibitaro, hirya yabo hakaba hari imodokari yabugenewe, itwara abarwayi aho byakomeye, hirya yaho hakaba hari inzu yifashishwa ndetse ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara hagati yaho hakaba hari amadarapo akaba akikijwe ndetse n'ibitaka n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, bikaba byose bifashwe n'amabuye asize ibara ry'umweru ndetse n'umukara hakaba hirya haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye.

Imbuga nini iteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti ikaba ari imbuga yaho irimo ifite inzu yubakijwe amatafari ahiye ndetsen'amabati y'umutuku aka ari inzu ebyiri zimeze gutyo hepfo hakaba hari buri ahantu abantu bagendera hazakajwe n'amabati.

Umutegarugori ufite imisatsi myinshi akaba wambaye ishati y'umweru, yicaye ku ntebe isa ubururu bwerurutse ndetse imbere ye hakaba hari igikuta gifite ibara ry'ubururu bwerurutse, hakaba hegamyeho umugabo wambaye amadarubindi muremure wambaye imyenda y'imikara.

Umuntu urimo kugenda ahagana imbere ye akaba arimo kugendera mu kayira gatwikiye n'amabati n'amapironi, ndetse iruhande rwayo hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru hakaba hariho n'amadirishya afite ibara ry'umukara.

Imbere yanjye ndabona inzu imodoka nziza cyane n'umuhanda ufite ibara ry'umukara muri izo modoka yari higanjemo imodokari z'umukara ndetse n'imweru n'umutuku imbere inyuma yaho wigiye inyuma gatoya ubona inzu nziza cyane imbere yaho iruhande rw'iburyo nkaba mbona idarapo ndetse n'umukindo.

Ubusitani bwubakishije umucanga na simakaba, ubundi ku ruhande hagati yaho haciyemo akarigori hakaba hari ugarikishije amatafari yabugenewe isaswa hasi, hirya yaho hakaba haru rundi ubusitani butemo ibyatsi, ibiti ndetse n'ibindi bime bigiye bitandukanye.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, hakaba handitseho aho ngaho ko bitemerewe kuhanywera isigara, hakaba hariho irangi ry'umuhondo ndetse inkingi zayo hakaba zubakishijwe amabuye ndetse hakotejwe n'amarange y'umukara, hakaba imbere yicayeho umutegarugori wambaye ikanzu y'umuhondo wicaye ku ntebe y'icyuma.

Intebe zifashishwa n'abantu bagiye batandukanye bicaraho zikaba zikozwe mu cyuma zikunda kwifashishwa ku bitaro ndetse n'ahantu hakira abantu benshi hirya aha naho hari indi intebe ikozwe mu giti nabwo yifashishwa muri ubwo buryo ikaba iri ku gasima kari mubara ryererutse ry'umweru ikabaye ari ryari ryegamye ku gikuta gifite ibara ry'umuhondo.

Inzu nziza ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri, hirya yaho hakaba ahahagaze imodoka ifite ibara ry'umukara n'umweru, ndetse hakaba hari n'ibyapa byamamaza biriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umutegarugori babiri ndetse n'umugabo bakaba aribo bagaragara bambaye imyenda yiyubashye umugabo akaba yambaye ishati y'umweru, karuvati irimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, ikoti ry'ubururu ndetse n'umutegarugori akaba yambaye amadarubindi n'ikanzu ifite ibara rya orange nyuma hakaba hari umutegarugori nawe wambaye amashati y'umweru ndetse n'umukara

Umugabo ubyibushye wambaye amadarubindi, akaba afite umusatsi mwinshi w'umukara, wambaye ishati isa icyatsi cyijimye, iriho amapeti ndetse n' inyenyeri, akaba ari imibiri yombi, akaba afite ubwanwa bukeya.

Ubagabo bane babiri bambaye imyenda y'ubururu na babiri bandi bambaye imyenda yabugenewe ikunda kwambarwa n'abantu biyubashye, muri iyo myenda ikaba igizwe n'ishati y'umweru n'ikaruvati y'umutuku, undi akaba yambaye ishati y'ubururu n'ikaruvati y'umweru iririmo tudomo tw'umukara.

Umugore w'imibiri yombi wicaye mu ntebe isa umukara ndetse ari ahantu hasa umweru, hari ameza asa kaki, yijimye, hakaba hari ibyo kunywa harimo amazi ndetse n'umutobe usa umuhondo, hari n'ikirahure. Akaba afite amakayi n'ikaramu.

Umutegarugori wambaye amadarubindi aka arimo kureba imbere ye yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'agapira k'umweru, akaba afite umusatsi w'umukara akaba ahagaze inyuma y'igikuta cy'umweru ndetse akaba asa n'umunyafurika.

Abantu benshi harimo umugabo umwe uhagaze hakaba hari abantu bamuri imbere bicaye ku ntebe ndetse n'ameza, bakaba bambaye udutambaro dukozwe mudato ry'u Rwanda, hakaba hari n'abandi bafite imitaka ndetse n'inzu ifite ibara ry'ubururu n'amabati y'umweru.

Ubusitani bwicamo imbaga nyamwinshi y'abantu hakaba higanjemo abategarugori ndetse n'abagabo bose bicaye hamwe ndetse hakaba yiganjemo n'ibiti by'ibibara bigiye bitandukanye birebire imbere hakaba hari amazu afite inzugi ndetse n'amadirishya akaba anasakaye.

Umugore wicaye afatanyije amaboko ye. Akaba yambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu y'iroza. Inyuma ye hakaba hari undi wicaye, yambaye imyenda y'igitaka, iriho idarapo. Ndetse bose bakaba bicaye mu ntebe z'umukara.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, umwe muri bo akaba yicaye imbere ya mudasobwa, yambaye ishati y'iroza. Uwo nguwo akaba yicaye hagati, abicaye babiri bicaye iruhande rwe bakaba bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'umweru. Bicaye imbere y'ameza akozwe mu giti.

Umugabo arimo areba imbere ye akaba ari umugabo ufite ubwanwa ndetse n'imisatsi, akaba yambaye ishati ndetse n'ikoti, ikoti ririmo uturongo tw'umweru n'ibara ry'umukara, ndetse n'andi mabara y'ubururu.

Abagabo batatu bambaye imyenda yubashye, umwe muri bo akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, bakaba babiri muri bo bambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ikaruvati y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'iroza ndetse n'ipantaro y'iroza, akaba ahagaze imbere y'abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Hakaba hari abicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda, rifite ibara ry'ubururu, umuhodo ndetse n'icyatsi. Bakaba bose bamuteze amatwi arimo kubagezaho ubutumwa.

Abagabo bahagaze mu mbuga iri mu twatsi, bakaba bambaye amakabutura n'amashati ari mu ibara rya orange. Muri bo, hakaba harimo abambaye amadarubindi, ndetse n'amasaha. Bose bakaba bifashe ku dutuza, bazamuye n'amaboko. Inyuma yaho hari ibiti birimo bifite ibara ry'icyatsi, hirya yaho gatoya, hariho itente ifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umugabo wicaye akaba yambaye agapira k'ubururu gafite ikora ry'ubururu, ndetse mu imbere y'uwo mupira hakaba hariho undi mupira w'umweru, inyuma yaho hakaba hariho ikoti ry'umutuku akaba arimo kureba imbere ye.

Abagabo babiri barimo baramukanya. Umwe akaba yambaye ishati y'iroza ndetse undi akaba yambaye ishati y'umweru. Bakaba bahagaze mu busitani bwubakije amabuye. hirya y'ubwo busitani hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi. hirya yaho hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse ifite n'inzugi.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mukeya, wambaye ishati Is’umutuku irimo akarongo gasa n'umuhondo, ndetse n'igipesu cy’umukara, akaba ar’ahantu har’igikuta cy’umweru.

Umukambwe ugeze mu zabukuru akaba ntamusatsi afite ndetse akaba agaragara yambaye umupira w'umutuku, akaba yicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse izo ntebe zikaba zegamye ku gikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku mu imbere hakaba harimo agapira k'umweru ndetse kakaba gafite ibipesu by'umukara, akaba ari kureba imbere akaba nta musatsi afite ndetse n'ubwanwa akaba ari kureba imbere ye.

Urupapuro rw'umweru rukaba rwanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara aya magambo akaba avuga ko hari itegeko ryanditswe mu bihumbi bibiri na makumyabiri nagatatu, akaba ari itegeko rirengera cyangwa se rihana uwaba yagize n'icyo rihanana.

Abategarugori ndetse n'abagabo bose bicaye hamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku bakaba bakikijwe n'ameza hariho mudasobwa ndetse n'ubucupa burimo amazi, imbere yabo bakaba bambaye n'amadarubindi n'imyenda yiyubashye irimo amashati ndetse n'ikaravati n'ikoti byose by'umukara bakaba barimo gukurikirana ibiganiro runaka.

Urupapuro rw'umweru rukaba ruriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse muri icyo kirangantego hakaba harimo agaseke ndetse n'ingabo n'amasaka ndetse n'ikigori. Akaba ari urupapuro rwandikishijeho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugore wirabura wambaye amapingu ndetse n'amadarubindi, afunzwe n'umukobwa ndetse n'umusore, inyuma hari imodoka ifite imibare yanditseho gatandatu, gatandatu, umunani, ca.

Umupira w'amazi wifashishwa uzimya inkongi y'umuriro. Ukaba ufite ibara ry'umutuku ukaba ufashe ku gikuta gisa umweru. Ndetse hasi gatoya hakaba hari igipapuro gifasheho nacyo kiri mu ibara ry'ubururu. Hakaba hariho umugore ubona utangaye ufite phone mu mu ntoki ze.

Abapolisi bambaye imyenda y'imikara, bakaba bahagaze muhanda w'umukara, bari guhamagara imodoka y'umukara nindi y'umweru, ku ruhande hakaba hahagaze abanyamaguru, bose bahagaze mu muhanda w'abanyamaguru wabugenewe.

Umuporisi wabigize umwuga wambaye imyenda yabugenewe, ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse, ari guha amabwiriza abamotari ndetse n'abagenzi babo, bambaye ingofero zabugenewe zifite ibara ry'umutuku, ndetse n'amapikipiki yabo afite ibara ry'umutuku n'umukara.

Icyapa cyerekana ko ya hafi aho hari ibitaro bya polisi kacyiru ndetse kikaba kiri imbere y'umuhanda ufite ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari umuntu uri kugendera mu kayira kabugenewe k'abanyamaguru, imbere wigiye gatoya hakaba hari imodokari ebyiri.

Imodoka yari ikunda gukoreshwa na polisi iri hano mu Rwanda, ikaba ihagaze hirya hakaba hahagaze igikamyo gifite ibara ry'umweru, uko bigaragara bikaba biri aho yabugenewe bakunda gukorera amapikipiki ndetse n'imodokari byapfuye.

Ubusitani buhagazemo umuntu wambaye imyenda y'imikara ndetse n'icyatsi, akaba akikiye ikintu mu ntoki ze, akaba yambaye ingofero y'umukara, inyuma ye hakaba handitseho amagambo yandikishijwe mu ibara rya zahabu.

Ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri barimo kwigishwa uko bakwirwanaho mu gihe inkongi y'umuriro ibafasha, bakaba barimo kwigishwa n'umuyobozi wambaye imyenda yabugenewe ndetse nabo bambaye imyenda y'ishuri ishati y'umweru n'ipantaro n'ijipo isa kake.

Umuhanda w'ibitaka, hirya yaho hakaba hariho umuhanda ufite ibara ry'umukara ndetse uciyemo uturongo tw'umweru ndetse aho ngaho kuri uwo muhanda w'igitaka hakaba haparitse ipikipiki ifite ibara ry'umweru ikunda gutwarwa n'abapolisi barinda umutekano hirya no hino mu Rwanda. Bakaba bambaye imyenda y'umukara ndetse irimo imirongo y'icyatsi.

Icyapa cya Ribu giherereye i Nyamirambo kikaba kiriho amanimero adasaba ko waba ufite amayinite kugira ngo ube wahamagara, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'ubururu handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umupira wabugenewe utwara amazi akunda gukoreshwa yizimya, azimya mu inkongi y'umuriro, ikaba ifite ibara ry'umutuku ikaba ifashe ku gikuta cy'umweru, kuri icyo gikuta nabwo hakaba handitseho amagambo yandikijwe mu ibara ry'umukara.

Ibikoresho bikoze mu cyuma, bikaba ari ibikoresho n'ababyigiye ndetse babifitiye ubushobozi, bikaba bifite ibara ry'umutuku bikaba bikoreshwa mu kazi ko kuzimya umuriro ndetse bikaba byose ari ibikoresho byinshi bizingiye ahantu hamwe.

Umukozi wa leta ushinzwe umutekano hirya no hino, akaba ahagarikije ikinyabiziga cy'ibinyamitende bine kicayemo umuntu w'umugabo ufite ubwanwa akaba arimo amwandikira ndetse undi akaba arimo yandika areba hasi yambaye ingofero yabugenewe bifashisha birinda izuba. Inyuma yaho hakaba hari inzu igeretse yubakishijwe amatafari ahiye.

Abagabo bacigatiye intwaro bakaba bambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'imikara zizamuye, bakaba bahagaze mu busitani bufite ibara ry'umukara. Hirya yaho hakaba hari igikuta cyubakijwe n'amatafari ahiye ndetse hari uruhande rumwe rusize irange ry'umweru.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba uciyemo imirongo y'imyeru ndetse n'umuhondo, ukaba uhagazemo umugabo wambaye umwenda w'umukara ndetse n'amarangi y'icyatsi n'umweru, akaba arimo kwereka imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'indi irimo kurenga ifite ibara ry'umukara.

Imbuga yubakishijwe n'amatafari yabugenewe asaswa hasi, ikaba ari imbuga iri hafi y'igikuta gifite ibara ry'umukara, ndetse imbere hakaba hari igipangu gikozwe mu cyuma, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere hakaba haparitsemo imodoka zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka yabugenewe ikunda gukoreshwa izimya inkongi y'umuriro, ikaba ifite umupira uri mu ibara ry'umutuku, ikaba ifashwe n'umuntu wambaye imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse, zikaba ziparitse mu muhanda ufite ibara ry'umukara ndetse n'imirongo iciyemo y'umweru.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro kiri ku rukuta, kikaba kiri mu icupa risa umutuku handitseho amagambo asa umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, kikaba gifite umupira usa umukara.

Abategarugori ndetse n'abagabo, bakaba bifotoje bafite ibipapuro mu biganza byabo, bakaba bambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu. Imbere yabo hakaba hari abicaye bambaye imyenda yiyubashye, harimo imyenda y'abashinzwe umutekano hirya no hino mu gihugu ndetse n'ababakuriye. Inyuma yabo hakaba hari ibiti bifite amashami y'icyatsi ndetse n'ikirere n'ibicu byose n'imodoka.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo abategarugori ndetse n'abagabo, bose bakaba bacigatiye ishusho y'umugabo wambaye amadarubindi ndetse arimo areba imbere, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti y'umukara, bose bakaba bambaye ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Abategarugori benshi bishimye bari kubyina bari bamwe muri bo bambaye imyenda yu'ubururu ndetse bakaba bahagaze imbere y'ameza ariho amazi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye n'ibitabo.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu akaba ari imibiri yombi, akaba afite umusatsi mukeya, akaba yicaye imbere y'igikoresho cy'amajwi gisakaza amajwi ndetse hateretse n'agacupa karimo amazi ahantu hakaba hari igikuta cy'umweru ndetse n'umukara.

Abantu batatu bicaye, umwe yicaye ku wundi, babiri muri bo, ni abana bambaye imyenda yiyubashye, undi ni umubyeyi wambaye imyenda igezweho y'abanyafurika, bose bakaba bicaye ku ntebe bigaragara ko bifite ibara ry'umukara.

Abantu baje kwamamaza bambaye imipira y'umweru ndetse bafite n'amadapo yanditseho peyeside, akaba ari mu ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi. Hakaba ari ahantu hari ibisharagati by'umweru.

Umugabo wambaye imyenda yiyubashye wambaye karuvati ishati y'umweru ndetse n'ikoti n'ipantaro byose ifite ibara ry'umukara akaba ari imbere y'igishushanyo kiriho ifoto ye akaba arimo kugeza aho ubutumwa abumukurikiye inyuye haba hicayeyo abandi bantu bambaye amadarubindi ndetse n'amashati y'umweru.

Abagabo batatu bahagaze umwe muri bo bakaba ahagararanye ufite urupapuro mu ntoki ze. Akaba ari no gutanga ubutumwa bunyuze mu nsamira. Abandi bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye umwe muri bo akaba yambaye imyenda yiyubashye, Harimo ishati, karavate, ndetse n'ikote ry'umukara.

Amashyaka akorera mu gihugu cy'u Rwanda; akaba arimo FPR byanditse mu mabara ry'umukara, hakaba nyuma hariho umutuku, umweru ndetse n'ubururu; irindi ni PSD byanditse mu ibara ry'ubururu, indi ni PL byanditse mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo uhagaze arimo ageza aho ubutumwa abamukurikiye akaba bambaye ishati y'umweru ndetse n'urunigi, inyuma ye hakaba hari ifite ibara ry'umweru, ndetse inyuma gatoya haba hari intebe, zicaho abantu ndetse n'izindi ziticaye abantu z'umweru.

Umugabo wicaye, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, bikaba bigaragara ko nta musatsi afite ndetse akaba arimo amwenyura, akaba arimo kureba imbere ye, akaba afatanye amaboko, akaba yambaye imyenda yiyubashye harimo ikoti ry'umukara n'ishati ndetse n'ikaruvati y'umutuku.

Abategarugori bakurikiyeho bagezaho ibiganiro imbere yaho hakaba hari ameza arimo ibara rya sheku rya shokora yarurutse ndetse hakaba hariho n'uducupa tw'amazi amatara ndetse n'insamizi.

Umutegarugori ufite imisatsi miremire akaba ari umutegarugori wambaye akakomo mu ijosi, wambaye n'igitenge gikozwe mu buryo bw'ishati, kirimo amarage atandukanye, umukara, umweru ndetse n'umuhondo, imbere ye hakaba hari icyatsi mbese n'ibiti ikaba acigatiye igitabo agiye gusoma.

Umugabo wambaye ishati y'umweru arimo aseka afite mikoro mu ntoki ze azamuye akaboko kamwe, akaba arimo agezaho ubutumwa abamukurikiye, bamwe muri bo abenshi bambaye imipira y'icyatsi ndetse akaba ahagaze munsi y'itente ifite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugore urimo guseka ufite imisatsi mikeya, akaba yambaye ishati ifite ikora ry'umweru ndetse n'amaherena y'umweru, akaba ari mu ishusho isa umukara n'umweru ndetse akaba yicaye mu ntebe y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo, ikaba ari imodoka ifite ibintu ry'umweru ndetse yikoreye, ndetse ikaba ihagaze no mu muhanda uri mu ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari agahanda k'abanyamaguru, hirya yaho hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, harimo ibikamyo bibiri, harimo ikinini gisa umutuku ndetse n'igitoya gisa ubururu, hakaba haparitse n'andi mamodoka ku ruhande harimo izisa umweru ndetse n'inzu ifite ibirahuri by'ubururu.

Umuhanda munini ugendamo ibibinyabiziga, ukaba ufite ibara ry'umukara ndetse urimo kugendamo ibinyabiziga by'inyamitende bitatu ndetse n'ibinyamitende bibiri, ibinyabitende bibiri bikaba bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ibinyabitende bitatu bitwawe ndetse n'ibindi bihagazeho imbere abantu bagiye byambaye imyenda itandukanye, harimo udupira tw'umweru, amashati y'ubururu ndetse n'ayandi y'ivu.

Imodokari irakoreshwa mu buryo bwo kujyana abagenzi hirya no hino mu Rwanda muri Kigali ndetse ikaba ifite amarange y'umweru ndetse n'icyatsi. Hasi hakaba hari ihagaze ku muhanda ufite ibara ry'umukara uciyemo imirongo y'imyeru. Imbere yaho hakaba haparitse ipikipiki ndetse n'abantu bahagaze bafite n'imifuka.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba ufite ikinogo hagati hirya hakaba hari umuhanda wabugenewe zikoreshwa n'abanyamaguru, ndetse muhanda urimo kugendamo n'ikamyo yikoreye rifite ibara ry'umweru haruguru hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo kugendwamo n'ibinyabiziga bibiri, byifashishwa birimo gutwara imizigo igiye itandukanye, bikaba bifite ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru, karimo kwifashishwa n'umunyonzi, atwara ibiribwa birimo ibitoki, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara kuruhande harimo kugenda ikinyabiziga cy'imitende ine, gifite ibara ry'umweru, ndetse he akaba harimo kugenda ayitwaye umugenzi ufite isengero y'umuhondo ndetse uwotwaye akaba afite shati y'ubururu, yaho hakaba ari ibiti ndetse n'akayira k'abanyayamaguru kabugenewe.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba urimo kugendwamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'ibinyamitende bigiye bitandukanye kimwe ikinyamitende gifite kibiri ndetse kikaba gifite irangi ry'umutuku kiba gihetse ndetse kinikoreye ikindi kiba gifite ibinyamitede bine cy'ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara akaba ari umuhanda urimo ikinyabitende cy'amapine kizwi nko gutwara abagenzi hirya no hino muri Kigali, hirya y'aho hakaba hari umunyonzi utwaye ndetse icyo kinyamitende kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ryaho hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru kari hafi yahatewe ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka iri mu ibara ry'umweru, amapikipiki yicayeho abamotari ndetse n'abo batwaye, bose bakaba bambaye n'ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku, hirya yabo hakaba abantu barimo kugendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru.

Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta, bikorewe i Kigali muri Mata bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo n'uturongo tw'umweruru ndetse ukaba urimo kugendamo imbaga nyamwinshi yiganjemo abategarugori ndetse n'abagabo bamwe muri aba bagabo bakaba bambaye imipira ndetse n'amataburiya y'ubururu ifite ikora ry'umweru ndetse ikaba iparitsemo ibinyabiziga bifashwa itwara imbaga nyamwinshi y'abantu hirya no hino mu Rwanda.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara ukaba ucimo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo hirya yaho hakaba hari agahandada kabugenewe gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kaba karagenewe abanyamaguru gusa hirya yaho cyane hakaba hari inzu yubakijijwe amatafari ahiye ndetse ikaba sakajwe n'amabati y'umutuku hakaba hirya haparitse n'imodokari zigiye ziri mu bwoko bugiye butandukanye zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Umuhanda munini w'umukara ukaba uhagazemo imodokari zizwi, nk'izitwara abagenzi hirya no hino, zikaba ziri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, hakaba imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, kikaba gihagaze ahantu mu mbuga nini. Iyo mbuga ikaba ifite amazi adasa neza, mu modoka kandi ikaba iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Igikamyo gisa umweru kiri mu muhanda wa kaburimbo ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti, hakaba hari n'abantu bari kugendagenda muri uwo muhanda, kikaba gifite ipine riri hejuru yacyo ndetse gifitemo n'abashoferi babiri.

Igikamyo kiri gukata mu muhanda gisa icyatsi cyerurutse, kikaba kiri mu muhanda w'umukara hari umumotari uhetse umugenzi, hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda ndetse n'indi modoka isa umweru.

Ikinyabiziga gifite moteri cy'amapine atatu, kikaba kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umukara, kikaba kiri kugendera mu muhanda uri mu ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru karimo abantu barenga batanu.

Abamotari bicaye abandi bahagaze ku mapikipiki yabo, abafite ibara ry'umutuku bakaba bahagaze mu muhanda, abafite ibara ry'umukara urimo imirongo y'imyeru, bakaba bo byose biri iruhande rw'inzu ifiteho amatara yaka.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba urimo kugendwamo, n'ikinyabiziga kifashishwa n'abaturarwanda, ahantu henshi hagiye hatandukanye gitwara abaturage. Kikaba kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba hirya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Igare ryikoreye rikaba riparitse iruhande rw'akayira k'abanyamaguru ndetse hirya yaho hakaba hari ipikipiki ifite ibara ry'umukara ikaba yicayeho uyitwaye ndetse n'uwatwawe bose bikaba bihagaze ndetse biri mo kugendera mu muhanda ufite ibara ry'umukara.

Imodoka nini zikunze gukoreshwa mu buryo bwo gutwara abagenzi aha mu Rwanda ika kabiri ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyerurutse ikaba irimogende mu muhanda ufite ibara ry'umukara hino gatoya hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara ukaba urimo kugendwamo n'amapikipiki abiri, ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba yicaweho n'abamotari babigize umwuga bakaba bambaye ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku hirya yaho hakaba hari umukingo uriho ibiti.

Imodokari zitwara abagenzi hano mu mujyi wa Kigali, zikaba ziri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'iyumweru ndetse n'umuhondo. Zikaba ziparitse mu muhanda, w'umukara, zose zikaba ziparitse zitegereje abagenzi.

Imodoka yifashishwa itwara imizigo iremereye, ikaba iri mu ibara ry'umweru, ikaba irimo kugenda mu muhanda munini ufite ibara ry'umukara, imbere yayo hakaba harindi imodokari ntoya ifite ibara ry'umweru, imbere yayo nabwo hakaba hari ikindi gikamyo kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'umweru, ukaba urimo kugendamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, kimwe kikaba gitwara abagenzi, kikaba gifite ibara ry'icyatsi n'umukara ndetse n'umweru, ikindi kikaba ari ikinyabitende cy'amapine atatu, kikaba gifite ibara ry'ubururu, hirya yaho hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara ukaba uciyemo uturongo tw'umweru, ukaba urimo kugengwamo n'imodokari ifite ibara ry'umweru ikaba yikoreye imbaho, hirya yaho hakaba hari umumotari utwaye ipikipiki ye iri mu bara ry'umutuku ndetse hirya yaho hakaba hari abandi bamotari bahagaze.

Imodoka ziparitse ziri mu ibara ry'umweru zikaba zanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hino hakaba hari umunyamaguru urimo kugenda mu muhanda ufite ibara ry'umukara, hakaba hino hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, hirya hakaba hari umusozi wuzuye ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara hakaba hariho abanyonzi babiri batwaye ndetse iruhande rwayo hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru, muri uwo muhanda nabwo harimo imodokari nini ikunda gukoreshwa itwara abagenzi benshi, ikaba ifite ibara ry'umutuku.

Abanyamagare bifashisha amagare bari gutwara ibinyabiziga byabo babikoresha mu buryo bwo gushakisha imibereho, hirya yaho gatoya hari imodokari nayo ubona ikoreshwa mu buryo bwo gushakisha imibereho itwara abantu, byose bikaba birimo kugendera mu muhanda ufite ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, akaba ari umuhanda wegereye akayira kabugenewe k'abanyamaguru, hirya yaho hakaba hari ibiti bifite amashami by'icyatsi ndetse ukaba urimo kugendamo ikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse itwawe, ikaba yikoreye ifiteho shitingi y'ibara ry'icyatsi.

Igikamyo kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru kikaba kicayemo umushoferi, ndetse n'uwutwaye. Hakaba hino hari umuntu wundi w'umunyamaguru uri mu kayira kabugenewe, k'abanyamaguru akaba arimo kuzunguza igipine, bikaba byose birimo kugendera mu muhanda.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara, ukaba uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, ukaba urimo imodoka ikunda gukoreshwa itwara abagenzi benshi ifite ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba hari umunyonzi utwaye igare rye, ndetse hirya yaho hakaba hari amazu y'ubucuruzi.

Ibinyabiziga biri mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, hakaba harimo imodoka isa umweruru n'amapine y'umukara ndetse n'ibinyamitende bitwara abantu n'ibintu, harimo umumotari wambaye ingofero isa umutuku ndetse n'undi wambaye isa ubururu.

Umuhanada munini utwawemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, igikamyo gifite ibara ry'umweru kikaba kikoreye hejuru yaho hakaba hariho n'umuntu, hino gatoya hakaba hariho ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ikaba iriho n'umumotari ndetse ikaba inikoreye umutwaro.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ka urimo kugenrwamo ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi gifite ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, hepfo yaho hakaba hari kugendamo umunyamaguru no kugendadera mu kayira kabugenewe abanyamaguru ndetse hepfo hakaba hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda munini uri mu ibara ry'umukara hakaba hirya hariyo ibiti bigiye bitandukanye mu mabara y'icyatsi muri uwo muhanda hakaba harimo kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite ibara ry'icyatsi kirimo ugitwaye, imbere hakaba hari igikamyo kibifite ibara ry'umutuku ndetse n'imodokari ifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako nini ndetse n'ibikinisho by'abana hakaba hari abantu bagiye batandukanya abana n'abantu bakuru ndetse n'abanyamahanga benshi.

Imbuga yubakishijwe amatafari ahiye harimo ibara ry'umutuku, akaba ari imbuga hagati y’aho harimo ibyatsi ndetse hirya yaho hakaba hari n'ibindi by'ibyatsi birimo uburabyo, ndetse n'ibiti birebire by'umukindo. Hagati yaho nabwo mur’iyo mbuga hakaba harimo akazu k'ubukorikori gafite amashusho agiye atandukanye yakozwe mu ntoki.

Ubusitani bwubakijwe n'umucanga; bukaba ari ubusitani bwifashishwa n'abantu bakina imikino igiye itandukanye; hirya yaho bukaba buzitiwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye; hakaba hirya hari inzu; yubakishijwe amatafari ahiye.

Ubusitani bukinirwaho imikino ya tenisi yo mu bwoko bw'abantu babiri baba bakina banagana udupira, hakaba hirya hari aho bicara abantu barimo babareba ndetse hirya hakaba hari ikintu gihagaze cy'ikipiloni gifite amabara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Abantu batatu bafash’icyapa cyerekana icyuma gipima umuvuduko ndetse n'icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ko ari mirongo itandatu, kiri kumuhanda imbere y’inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda wifashishwa ugana akanyaru Huye ndetse ukaba wanakata ibumoso ugana Kibugabuga na Nyamiyaga, umuhanda ukaba urimo abamotari bari ku mapikipiki yabo n'abaturage bari kugendana n'amaguru, hirya yaho hakaba hari imisozi yuzuye amazu.

Icyapa kizwi nk'igishyirwa ku muhanda cyerekana ko naho ngaho bitaba byemerewe guparika, nta kinyabiziga na kimwe cyemerewe guhaparikwa. Kikaba biri mu ibara ry'umukara ndetse n'amatuku inyuma yaho hakaba hari ibara ry'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda gihagaze ku ipironi kikaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse kikaba kizitiwe n'umurongo w'umutuku, kikaba kiburira abatwaye ko imbere hashobora kuba hari ikintu kigiye gitandukanye ko bakitonda.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba ari umuhanda uciyemo imirongo y'umweru, ndetse urimo kugendaramo ibinyabiziga bibiri , ndetse ku ruhande hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru, karimo umunyamaguru w'umutegarugori wambaye ijipo ndetse n'ishati y'umweru.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba ari umuhanda uciyemo imirongo y'imihondo, hirya yawo ukaba ari icyapa cyerekana ko hari ahantu imbere hari imihanda ayiburira, ikaba kirimo ahantu hari utwatsi ukabwa wari umukingo wacishijwe, amabuye ndetse hejuru yaho hakaba hari ubundi busitani buteyemo ibyatsi.

Umuhanda uri ufite ibara ry'umukara ukaba urimo uturongo tw'umweru hirya y'aho hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya hirya y'aho naho hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse hino ho gato ugarutse hakaba hari ipiloni ryerekana ko hari abanyamaguru bagenda.

Icyapa cyerekana ko hari imihanda itatu ihura, kikaba cyerekana umuheto werekana ko ari undi muhanda ukomeza. Bikaba byose biri ku cyapa cy'umuhondo, bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kifashishwa n'inzego z'umutekano mu muhanda, kikaba kerekana abanyamaguru igihe bemerewe kwambuka, ndetse n'ibinyabiziga igihe byemerewe kugenda kikaba gihereza ububasha ndetse cyambu ububasha ibinyabiziga, ndetse n'abanyamaguru hirya no hino mu buryo bwo kubungabunga umutekano mu muhanda.

Agace kiganjemo amazu ageretse amazu akaba yiganjemo afite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ubururu inyuma yaho hakaba hari ipiloni igezaho amashanyarazi kuri ayo mazu ndetse imbere yaho hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi imbere yaho hari uruzitiro rukoze mu mabati y'icyatsi.

Umuhanda munini wubakikishijwe n'amabuye akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibintu bigiye bitandukanye harimo amazu ari mu ibara ry'umweru ndetse n'amapiloni hariho insinga zigenda zigeza amashanyarazi mu ngo zigeye zitandukanye ndetse tutibagiwemo n'ibiti ndetse n'amapironi yerekana agaciro k'umuhanda.

Umuhanda munini uri mu ibara ry'umukara ndetse ukaba uciyemo uturongo tw'umweru. Ukaba arimo kugendamo amapikipiki ndetse n'umumotari uyicayeho. Bakaba bose bambaye imyenda y'umutuku. Imbere yayo hakaba hari inzu isa umuhondo ndetse ikaba ari inzu y'ubucuruzi igeretse.

Inyubako yubatse igeretse gatatu ikaba yubakishije amatafari ahiye inafite amadirishya asa umukara ikaba iherereye ahantu hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bito bigiye bitandukanye bikaba bitoshye bikaba bigaragara neza.

Umuhanda munini uri mu ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru kabugenewe kari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Hirya yaho hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi bigiye bitandukanye, bikaba byose hari ikirere hejuru.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara, ukaba ari umuhanda witabiriwe n'ibinyabiziga ndetse n'abantu benshi, hakaba higanjemo ibinyabiziga bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'amapikipiki afite ibara ry'umutuku, hicayeho abantu bambaye ingofero zabugenewe ndetse hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru na two turimo abantu.

Ukuguru k'umuntu wambaye ipantaro y'umukara urukweto rwa kaki, ndetse hasi akaba ifite urukweto rw'umweru, ndetse hasi akaba akandagiye hasi, amatafari yabugenewe akunda gusaswa hasi.

Inzu nziza yanditseho biza ikaba ari inzu iri mu ibara ry'umweru, ndetse n'igitaka ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'ubururu bwerurutse. Ikaba hino hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'uruzitiro rukoze mu byuma, n'imbaho.

Inyubako igeretse yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya hamwe n'inzugi by'umukara, ikab’iri mu kibanza kidasukuye kandi kidafite ibiti byinshi, ndetse ku gisenge hakaba hari ibikoresho byinjiza umwuka mwiza.

Mo imbere mu nzu bigaragara ko ari nzu yagenewe ubucuruzi, hakaba harimo amatara ndetse n'inzugi zigiye zitandukanye zifunguye ziri aho ngaho, batangira serivisi muri abo ngaho hakaba harimo umugabo uhagaze yambaye agapira k'umuhondo, ipanta y'ubururu ndetse n'inkweto.

Umusozi munini utuweho n'abaturage benshi bigaragara ko hariho amazu menshi, muri ayo mazu higanjemo asakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku ryererutse, hino hakaba hari inzu igeretse irite amatafari ahiye, ikaba ikwiriyeho ndetse n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Ubusitani hagati yaho hakaba harimo ipiloni mur' ubwo busitani naho harimo ibiti, ibimera byose biri mu ibara ry'icyatsi ,hakaba hari hirya hari inzu iri mubara ry'umutuku, n'umukara n'ibirahuri.

Inzu nziza ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiriho bifite ibara ry'ubururu, hakaba handitseho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hejuru yaho hakaba hariho irangi ry'icyatsi, imbere yaho hakaba hari ubusitani bwuzuyemo ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye, ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Inzu yubatswe mu matafari ahiye ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya, akaba ari inzu igeretse ikaba hirya hari umuhanda w'umukara, hakaba harimo n'uturongo tw'umweru. Hirya yaho naho hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, aka umuhanda uri hafi y'abamotari bambaye ijire irimo umuhondo ndetse n'ubururu. Abandi bakaba bicaye bambaye ijire irimo icyatsi ndetse n'umweru, amashati y'umukara ndetse n'ubururu. Bakaba bicaye imbere y'inzu ikozwe mu byuma ndetse n'inzugi zikozwe mu byuma, bifite amabara iry'umutuku, n'umukara ndetse n'umweru.

Inzu igeretse iri mu ibara ryererutse ry'umweru, ikaba ari inzu ifite ibirahure ndetse n'imiryango y'inyuma iri mu ibara ry'umweru, ikaba iri imbere y'umuhanda iri mu ibara ry'umukara akaba akikijwe ahantu hari igiti k'icyatsi.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Inyubako yubatse igereretse inshuro ebyiri ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba iri ku muhanda uriho indi nzu ntoya yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari ipiloni cyangwa se umunara w'amashanyarazi ndetse ahantu biri hakaba hari umukingo.

Inzu yerekana ubukerarugendo bw'inyoni hakaba hari inzu isa umweru ifite ibirahuri by'ubururu ndetse n'ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye, n'ahantu haparitse imodoka isa umweru.

Inzu igeretse ifite ibikuta by'umweru n'umukara, ikaba ifite hejuru ibigega ndetse ikaba ifite n'ikoranabuhanga ryo gushyushya amazi, ikaba iri kumwe n'indi ifite amabati y'umutuku, ikaba ikikijwe n'urukuta rw'amatafari ahiye.

Inzu igeretse gatatu ikaba ifite inkuta zisa umweru ndetse ikaba iri ku muhanda aho hanyuraho imodoka zigiye dutandukanye ndetse na moto, imodoka imwe ikaba isa umweru, izindi zikaba zisa umukara, ikaba iri hirya y'inzu nayo yubatse ariko isa umukara.

Umusozi wuzuye amazu, akaba ari amazusakajwe amabati y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo amabati afite amarangi: umutuku, umweruru ndetse n'umukara, hirya yaho hakaba hari isambu yuzuye ibyatsi ndetse iteyemo n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye yiganjemo n ibitoki.

Ubusitani bwuzuye ibyatsi akaba ari ubusitani buri hafi y'amazu meza agezweho afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara imbere yayo hakaba hari uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari ahiye ndetse hakaba hari igipangu gikozwe mu cyuma gifite ibara ry'umukara.

Ubusitani bunini bwagenewe guparikwamo, akaba ari ubusitani bwubakishijwe n'amatafari yabugenewe, hirya yaho hakaba hari inzu iri mu ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umuhondo. Akaba ari inzu ifitemo amashami agiye atandukanye.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye ikaba isakajwe n'amabati y'umukara. Hakaba hariho icyapa cy'inzoga kiri mu ibara ry'icyatsi. Imbere yaho hakaba hicayeho abantu ndetse hakaba hari n'ibintu by'ibicuruzwa harimo amakarito y'amazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara akaba ari umuhanda uciyemo uturongo tw'umweru, hirya yaho hakaba hari akayira kabugenewe kagendamo abanyamaguru, kakaba karimo kugendamo abanyamaguru babiri, umwe akaba yambaye ishati y'umutuku undi ingofero y'umweru ndetse n'umupira w'umukara, imbere yabo bakaba bitegereza inzu nziza igeretse iri mu ibara ry'umweru ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Ubusitani bwuzuye ibimera by'ubwoko bigiye butandukanye. Hakaba buriho ubwoko bw'ibigori, ibitoki, ndetse n'ubwatsi bufite ibara ry'icyatsi. Hirya yaho hakaba hari amazu ubona afite amadirishya bigaragara ko ageretse. Hirya yaho hakaba hari amazu afite ibara ry'umweru.

Umuhanda ukozwe mu mabuye, ukaba ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'uruzitiro rw'ingo zigiye zitandukanye, rukaba rufite uruzitiro rufite ibara ry'umweru ndetse rukaba rufungishijwe n'urugi rukozwe mu cyuma, akaba ari inzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'amabati y'umutuku.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara akaba ari umuhanda urimo kugendamo ikinyamitende cy'amapine ane, kikaba gifite ibara' ry'icyuma ndetse ukaba ucimo imirongo y'umuhondo, hirya hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse hirya hakaba hari inzu igeretse yubakishije ibirahuri ndetse ifite ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku.

Umusozi utuwe, akaba ari umusozi urimo n'umuhanda urimo kugendamo ikinkinyamitende cy'amapine ane gifite ibara ry'umukara, ndetse ukaba uriho uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, hirya hakaba hari ibiti, ndetse n'ipironi rigeza amashanyarazi ku baturage, hakaba hari amazu afite amabara ry'umuhondo afite n'amabati y'umutuku.

Umuhanda ufite ibaru ry'umukara hakaba hagati yaho hari ubusitani bwubakishijwe amabuye yabugenewe akaba asaswa hasi, hagati y'aya mabuye hakaba hari ipironi iriho icyapa ndetse n'itaro rimurika mu gihe cy'ijoro, hakaba harimo kugendwamo ibinyabiziga by'amapine agiye atandukanye aho higanjemo ibinyabitende by'amapine ane ndetse n'atatu.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara, ukaba urimo kugendwamo n'ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ikaba yicaye aho abantu babiri bambaye amakasike yabugenewe, hirya hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Ahangaha ni ku umuhanda. Hagati y'umuhanda harimo utwatsi, hagati yutwatsi nabwo harimo igiti byose bifite ibara ry'icyatsi. Umuhanda ukaba ufite ibara ry'umukara. Hiryaho gato hari amatara harimo kwaka cyane hakaba hari n'imodoka iruhande rw'amatara abantu ndetse n'amazu.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara ndetse ukaba uciyemo uturongo tw'umweru. Umuhanda ukaba usadutsemo. Hirya yaho hakaba hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi birebire. Ndetse n'ubusitani bufite ibyatsi by'icyatsi hirya hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara munini w'ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'imyeru ndetse ukaba uri kugendamo igare ririho umuntu, akaba arimo kugendamo ndetse n'ikinyabiziga cy'amapine afite ibara ry'umukara hakaba hari ibimera bigiye bitandukanye harimo ibiti ndetse n'ibyatsi by'icyatsi.

Umuhanda munini w'umukara hejuru bakaba hanyuraho ikiraro k'indi byose bifite ibara ry'umukara, hasi yaho gatoya ha akaba ari ukugenderaho umunyonzi wikoreye ndetse n'imodoka ruguru gatoya hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru ndetse n'ibiti birimo ibara ry'icyatsi.

Ikiraro cyifashishwa gihuza ibice bibiri, cyifashishwa n'imodoka ndetse n'abanyamaguru bagera aho bashaka. Kikaba gifite ibara ry'umukara, kikaba hepfo yabo hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikirere, ndetse n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Umuhanda munini ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'imihondo, ku ruhande rwayo ikaba ifite utuyira twabugenewe tw'abanyamaguru, uruhande rumwe na rwo hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, ifite n'amatara ku ruhande amurika mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba urimo kugendwamo n'imodokari ndetse n'amapikipiki, hakaba hicayeho abamotari ndetse n'utwawe, ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho hakaba hari utwatsi.

Umuhanda w'umukara wifashishwa n'abamotari batwara amapikipiki yabo bashakisha ubuzima, hakaba harimo abamotari bagera muri batatu, hino gatoya hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru, hirya yaho naho hariho ibintu bigera mu muri byinshi byerekeranye n'ibimera.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, hirya yaho hakaba hari abanyamaguru bari kugenda ndetse n'imodoka harimo ibara ry'ubururu n'amapikipiki ariho abayitwaye n'abo batwaye.

Imodoka y'umutuku itwawe n'umusore wirabura ikaba iri mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ukaba ukikijwe n'ishyamba ndetse ufite ibyapa harimo n'abamotari.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'imyero ndetse n'umuhondo, hirya yaho hakaba hari ipironi rifite itara ryaka umutuku ndetse hirya yaho hari sofiya ifata abantu birukanka ndetse ikaba ibungabunga umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda iciyemo imirongo y'umuhondo, ukaba afite ibara ry'umukara ukaba urimo kugendamo ikinyabiziga cy'imapine ane gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibirahuri ndetse iruhande rwabo hakaba hari amapironi afite amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse hirya hakaba hari amapikipiki ariho abamotari.

Umuhanda ufite icyapa gisa icyatsi cyanditseho amagambo y'umweru, kikaba cyerekana ahantu ahantu hatandukanye, kandi cyari kiri muhanda wa kaburimbo ufite amapironi ariho amatara yaka nijoro ndetse kikaba gikikijwe n'ibiti n'amazu.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'imyeru, hirya yaho hakaba hari abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bifite ibara ry'umweru bigiye bitandukanye, kandi n'amapikipiki y'ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba yicayeho abantu bayitwaye ndetse n'utwawe.

Ufite ibara ry'umukara kuri uwo mu muhanda uciye imirongo y'immyeru ndetse hagati yaho hakaba hateyemo ibyatsi hirya yaho akaba barimo kugendaraho ikinkinyabiziga gifite ibara ry'umukara hirya yaho nukuvuga ku mpande z'uwo muhanda hakaba hari ipironi ifite amatara amurika mu gihe k'ijoro.